Ubuhinzi ndetse n'ubukangurambaga bugomba gufasha abaturage igihe bari gutera imyaka itandukanye, kugira ngo umusaruro wiyongere. Ni byiza yuko abakangurambaga bafasha abahinzi igihe bari gutera imyaka itandukanye.

Ni byiza gukangurira abaturage bose kujya aho bacururiza imiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu buhinzi ndetse no mu bworozi, kugira ngo bamenye imiti itandukanye, ndetse n'ibikoresho bibafasha kuvomera igihe ari mu gihe cy'izuba n'igihe babikeneye, ni byiza ko buri wese akangurira mugenzi we kujya kurisura ndetse no kugura imiti.

Ni byiza kubagara ndetse no gusekera ibigori kuko bigufasha kubona umusaruro kandi ugomba no kugishyiraho ifumbire ibiha imbaraga zo gukura neza.

Igihingwa cya caroti ni igihingwa gitanga amafaranga menshi kubera zera mu gihe gitoya, ni byiza ko igihe wazihinze wibanda ku ifumbire yazo ndetse ukazajya ureba yuko nta ndwara zahuye nazo kandi ukazivomera igihe ari ku zuba.

Ni byiza gukangurira abaturage, ndetse n'abahinzi, gukoresha ifumbire mu gihe bari gutera imyaka nk'ibigori ndetse n'ibirayi. Kugira ngo babone umusaruro uhagije banarinde imyaka kurwara indwara zitandukanye.

Ni byiza gushyira ibyapa, ndetse no kwandika, igihe ahantu hakorera ubucuruzi bw'imiti y'amatungo, imbuto, ndetse n'inyongeramusaruro, kuko bifasha abaturage gusobanukirwa icyo hakorerwa.

Imyayi y'imyaka, idufasha igihe dushaka gutera imyaka kubanza kuyihumbika, ukabona ingemwe, ukabona gutera ndetse, ugakangurira n'abaturage kugura iyi myayi, no kuyibahera ku giciro gitoya, kugira ngo buri wese yisangemo. Ndetse ukanabereka ibikoresho byifashishwa igihe imvura yaba nkeya, bari kuvomera.

Igihe uri gukora umwuga w'ubuhinzi ugomba kumenya amafumbire atandukanye, nka NPK ndetse n'andi kuko agufasha igihe imyaka yawe yahuye n'indwara zitandukanye.

Ni byiza gukorera ahantu hasukuye kuko bifasha abaturage n'abakiriya kuza bumva bisanzuye kandi ukanamusobanurira ukuntu uwo muti ukoreshwa.

Ni byiza gukangurira abahinzi ndetse n’aborozi gukoresha imiti ndetse no kwegera aho bayicuruza kugira ngo bamenye imiti itandukanye ndetse n’amafumbire abafasha mu gihe bari guhinga ndetse n’igihe bari korora.

Insina uzifashisha mu gihe uri kugaburira amatungo atandukanye nk'inka, kandi igihe zajeho igitoki ukuraho icyo kurya ndetse n'icyo gutaramo imineke, kandi zigufasha kubona amafaranga kuko iyo igitoki cyeze ukigurisha ku isoko.

Hano haragaragara ubuhinzi bw'ibigori bikiri bitoya, hagaragara ibigori byitaweho neza ndetse n'ibindi bigori bidakorewe. Ni ngombwa yuko niba umuntu yahinze yita ku myaka ye.

Imineke iva ku gitoki noneho umuntu akayitara igahinduka umuhondo, ikaba yifashishwa umuntu amaze gufata ifunguro, ikaba igira n'uruhare runini mu biribwa byubaka umubiri ndetse n'birinda indwara.

Ibidukikije bidufasha kubona imvura mu gihe cyayo sibitinde, kandi n'izuba rikaba rikeya kuko iyo hari ibidukikije byinshi tubona n'umwuka duhumeka.

Imbuto ni ingirakamaro mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi kuko bimufasha kwirinda indwara ndetse n'ibindi bitandukanye. Amapera ndetse n'amacunga afasha umuntu igihe afite ikibazo k'imirire mike.

Ibigori byifashishwa mu buzima bwa buri munsi nko gukuramo ibiribwa nk'umuceri, ifu y'igikoma ndetse na kawunga. Ni byiza kubibungabunga ubitera imiti kandi unabisura kenshi.

Hano biratwereka igihe igihingwa giteye ndetse n'ingemwe, uwaba ashaka kuzigura yahagana bakazimuha, kuko bino bigufasha kwiteza imbere ndetse no guteza umuryango wawe imbere wifashishije kino gihingwa bahombetse.

Insina zifashishwa igihe zihinduka ibiribwa ndetse n'ifumbire, kuko iyo zitemye hakamara igihe kinini zivamo ifumbire, kandi ni byiza kuzikorera kubera ko zitanga umusaruro w'igitoki, haba kugiteka ndetse no kugikuramo umutobe.

Ni byiza yuko n'igihe amatungo yarwaye cyangwa yahuye n'ibikomere, bayajyana kwa muganga wayo kugira ngo yitabweho, kuko na yo ni ikinyabuzima, n'ibindi byose ni byiza yuko bakangurira abantu kwita ku binyabuzima bitandukanye nk'imbwa.

Buri muhinzi wese agomba kumenya imiti itandukanye kuko imufasha igihe imyaka yarwaye indwara zitandukanye nka nkongwa, kandi imiti izifasha kuba zapfa bityo umusaruro ukiyongera.

Ubuhinzi budufasha kubona ibiribwa bitandukanye, ni byiza gukoresha ifumbire kandi ukazajya usura n'imyaka kugira ngo urebe yuko nta ndwara ihura nazo, ni byiza gukangurira buri muhinzi kandi ugakoresha ubuhinzi bwa kijyambere.

Ni byiza gukoresha uyu muti wa Egg more kugira ngo bifashe inkoko zawe kubona umusaruro w'amagi ndetse no gukura vuba. Igihe ukora umushinga w'ubworozi bw'inkoko ugomba kwifashisha uyu muti.

Hano baragaragaza imiti yifashishwa, mu buhinzi ndetse n'ubworozi, hano bishatse kuvuga yuko igihe ubonye imyaka yanduye cyangwa yarwaye udukoko, ni ngombwa kugura uyu muti kuko ugufasha mu kuzamura ubuhinzi bwawe.

Igihe umuntu yoroye amatungo atandukanye, nk'inka, intama cyangwa ihene, agomba kumenya umuti wamufasha igihe zagize ikibazo cyo kurwara inzoka, effection ndetse n'izindi.

Igihe itungo ryarwaye nk'inka ni byiza ko uhamagara veterineri akaza akarisuzuma, akareba ikibazo ifite kugira ngo itanduza n'izindi cyangwa ikaba yaviramo gupfa.

Ubuhinzi bufite akamaro gatandukanye kandi butuma n'igihugu gitera imbere mu buryo bw'ubukungu ndetse n'amafaranga muri rusange. Ni byiza gukangurira urubyiruko kwitabira gukora ubuhinzi.

Umugabo, avoka za kijyambere, bino biragaragaza ko uyu mugabo ari kwerekana igiti cya kijyambere, uburyo gikora na avoka zera yuko bifite umumaro na buri wese agomba kwitabira gukora ubuhinzi bwa kijyambere.

Muri iki gihe tugezemo ni byiza ko buri rubyiruko yihangira akazi nk'ako gutera indabo ndetse no kuzigemurira abazikeneye. Ni byiza ko buri wese yumva yuko ashobora guhanga umurimo kandi ugatera imbere, nk'umurimo wo gutunganya indabyo.

Ni byiza gukora umuganda kuko bifasha igihugu kuba ahantu heza kandi hatekanye. Kandi urubyiruko ni ngombwa ko rwitabira kuko nizo mbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba.

Igihe abahinzi babonye umusaruro uhagije ni ngombwa no kumenya uburyo butandukanye bwo kuwufata neza, nko kuwanika kugira ngo utazapfa ndetse no kubika ahantu hadakonje cyane.

Ni byiza gukora ubuhinzi kuko bufite akamaro kandi n'ibidukikije ni ingenzi kuko bituma duhumeka umwuka mwiza ariko si byiza kujyana abana mu buhinzi kuko bagomba kujya ku mashuri.

Igihingwa cy'imyumbati gifasha abantu kwihaza mu biribwa, cyane cyane ibitera imbaraga, ni byiza yuko igihe umuntu yahinze imyumbati agomba kuyibyazamo umusaruro, nko gukuramo ubugari, kuyiteka ndetse no kuyijyana ku isoko.

Ubuhinzi ni bwiza kuko budufasha kubona imyaka itandukanye, cyane cyane ubuhinzi bwo mu cyaro, ni byiza yuko abahinzi bagomba gukoresha n'uburyo bwa kijyambere mu gihe bari guhinga kandi bakanubahiriza inama bababwira nk'abajyanama b'ubuhinzi.

Ubuhinzi bufasha umuntu ubukora. Kubona amafaranga, kandi bugatuma n'igihugu, gitera imbere mu bukungu. Kuko igihe bwateye imbere, n'igihugu kigira abaturage bihaza mu biribwa. Ni byiza gukora ubuhinzi, kuko ni ingirakamaro ku muntu kuri rusange ndetse n'igihugu.

Ni byiza kubungabunga ibidukikije, ndetse no gutera ibiti aho bitari, kandi ugaca n'amaterasi y'indinganire ku misozi ihanamye, ni byiza gukangurira buri muturage wese kuba ijisho rya mugenzi we.

Ubuhinzi bufite akamaro gakomeye, cyane cyane ubuhinzi bw'inyanya bufasha abaturage ndetse n'abahinzi kubona amafaranga kuko zikunze kugira amafaranga menshi kandi n'abategura amafunguro ni byiza kuzikoresha.

Ibigori bishobora kugira umusaruro utandukanye, nko kuba byavamo umuceri, ifu y'igikoma ndetse na kawunga ,ni byiza kubibungabunga kandi ukanabitera umuti kuko bikunda kurwara.

Inyanya zifashishwa mu gihe uri gutegura ifunguro, ni byiza yuko buri muntu wese yazaza akitabira kino gihingwa cy'inyanya kuko gikunze kugira amafaranga kandi n'igihe wabikoze, ukacyitaho kuko gikunda kurwara.

Izi ni avoka zikunzwe gukoresha igihe umuntu agiye gufata ifunguro kandi zikaba zigira n'akamaro mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu avoka ugomba kuyitara ikabanza igashya nyuma yo gushya ukabona kuyikoresha.

Ni byiza kubika umusaruro ahantu hatwikiye, kugira ngo imvura nigwa itanyagira umusaruro wawe ndetse ukanangirika. Buri muhinzi wese agomba kumenya ko agomba gufata neza umusaruro yabonye.

Ubuhinzi butanga umusaruro mwinshi kuko hano haragaragara imifuka ipakiyemo ibiribwa byinshi kandi biri ku ikusanyirizo cyangwa mu bwanikiro, ni byiza rero yuko umuntu agomba kwita ku buhinzi.

Ubuhinzi budufasha kubona umusaruro ufasha umuryango kwiteza imbere ndetse no mu mirire kandi bikaduha n'amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi. Hano hari imifuka irimo imyaka yamaze gusarurwa.

Ubuhinzi bw'umuceri bufasha abaturage kwihaza mu biribwa ndetse no gusagurira amasoko. Ningombwa yuko buri muhinzi wese ahugurwa mu gihe agiye gutera umuceri kuko ukunda kurushya igihe umuntu ari kuwutera.

Ni byiza kwihangira umurimo, ndetse ugacuruza n'ibintu bitandukanye. Kubera ko avoka zikunze kugira amafaranga kandi, zigashya mu gihe gito, ni byiza yuko iyo ucuruza abanza gucuruza ibintu bitandukanye n'avoka ndetse amatunda n'inanasi.

Igihe wasaruye ibigori ni byiza kurobanuramo ibyapfuye ndetse n'ibiteza cyane kugira ngo bitangiza ibindi, kandi uyu musaruro ugira akamaro ku baturage ndetse n'igihugu muri rusange.

Ibidukikije bidufasha guhumeka umwuka mwiza, ndetse no gukurura imvura, ni ngombwa kubungabunga ibidukikije kuko bifite umumaro ukomeye mu buzima bwa buri munsi.

Ni byiza kubungabunga ibidukikije kuko bidufasha kubona umwuka duhumeka kandi no mu gihe cy'izuba umuntu ashobora kugamamo izuba, ni byiza kubibungabunga kuko bikurura imvura ndetse na ba mukerarugendo.

Ni byiza kwita ku mbuto zose utagendeye kururu cyangwa ruriya kuko urubuto rw'amapera narwo rufite akamaro n'izindi mbuto n'ibinyomoro, inanasi, amatunda ndetse n'ibindi.

Ibidukikije bidufasha kugira ubuzima bwiza nko kuduha umwuka duhumeka mwiza ndetse no gukurura imvura, kandi bikarinda imisozi gutenguha cyane, ni byiza kubungabunga ibidukikije twirinda gutema ibiti.

Nibyiza gutema ibiti igihe byakuze kuko bishobora kuba indiri y'inyamaswa zitandukanye kandi zakugiraho ingaruka, ni byiza kubungabunga ibyatsi ndetse n'indabyo ariko ukibuka no kubikorera isuku.

Ni byiza kugirira isuku aho umuntu ateye, cyane cyane yirinda yuko ibyatsi bikura bigasumba inzu cyangwa bikareshya buri wese, buri wese agomba kwifashisha ibikoresho byabigenewe nka kupakupa agasukura aho aba kuko birinda indwara nka marariya.

Ni byiza gutera ibiti imbere y'urugo. Kandi, ukirinda nuko bikura bikarenga inzu. Kandi, bifasha, kubona umwuka mwiza, ndetse bikanarinda kuba umuyaga watwara inyubako nk'inzu. Ni byiza gukangurira buri wese, gutera ibiti cyangwa amasina impande y'urugo.

Ni ngombwa kwita ku bidukikije, kuko bituma tubona imvura mu gihe cyayo ndetse bigatuma duhumeka umwuka mwiza, buri wese agomba kwita ku bidukikije, twirinda gutema ibiti, kugira ngo twangize ikirere.

Isina ziduha umusaruro utandukanye, nko kuba zivamo ibiribwa by'inka, ubwatsi bw'inka, kandi zikadufasha kubona igitoki cyo kurya, ndetse n'amafaranga yo kwikenuza, ni byiza y'uko umuntu yita ku isina igihe yaziteye ndetse no kuzibungabunga.

Ni ngombwa kwita ku buhinzi butandukanye, umuntu atera ibiti mu murima kandi na byo akabyitaho nk'indi myaka isanzwe, kuko bigufasha mu buzima bwa buri munsi igihe ushaka kubaka cyangwa ushaka kubikoresha n'ibindi bitandukanye.

Umukoni ni igiti kitagikunda kugaragara kubera ahenshi byarapfuye byaracitse, kiba gifite amata y'umweru ariko iyo akugiyeho akunze kubabaza cyane. Ni byiza yuko ababyeyi bazaza barinda abana babo kwegera kino giti.

Ibidukikije bidufasha kubona umwuka duhumeka, bikaba indiri y'ibinyabuzima bitandukanye kandi inyamaswa nyinshi niho ziba zirara kandi zikura n'ibiribwa, ni ngombwa kubungabunga ibidukikije.

Imvo imbuto ni nziza kuko zigufasha kugira ubuzima buzira umuze, kandi zikagufasha no kwirinda indwara, ni ibyiza ko buri wese yakagombye gufata imbuto zihagije buri gihe.

Imiteja idufasha igihe turi gutegura amafunguro kandi ikagira n'akamaro, ikunze kuryoha cyane cyane igihe uri kuyirisha ubugari, ni byiza kwita mu gutera ibishyimbo by'imiteja kuko bigufasha gutegura kureba neza.

Urusenda rufite akamaro kanini kuko ruvamo akabanga kandi rwifashishwa mu biribwa igihe urushyizemo wabuze apeti ushobora kuyibona, ni byiza gukangurira abaturage guhinga kino gihingwa kuko abenshi ntabwo bagiha agaciro.

Ni byiza kuvomera ibiribwa byose igihe wasanze bifite udukoko cyangwa n'igihe bitararwara kuko bigufasha kubona umusaruro kandi bikarinda n'ubudahangarwa ku biribwa ndetse no ku bimera muri rusange.

Ubuhinzi bufasha abaturage kubona ibiribwa bitandukanye cyane cyane mu gace k'icyaro, kandi ubuhinzi bufasha abatuye mu mujyi kubona ibiribwa kuko ibyinshi biva mu buhinzi, ni byo bakunda gukora.

Intungure, karoti, ndetse na cocombre byifashishwa mu gihe umuntu ari gutegura ifunguro. Ni byiza yuko iyo umuntu ari gutegura ifunguro yifashisha bino biribwa kandi bikagira n'akamaro mu buzima bwa buri munsi.

Ni byiza guhinga karoti n'intoryi kuko bigufasha kubona umusaruro ndetse no gutegura amafunguro yawe neza, buri muhinzi wese cyangwa undi ugura zino mboga agomba kubyifashisha kandi akabigirira n'isuku.

Ubuhinzi bugira akamaro kenshi cyane, cyane cyane ubuhinzi bw'imbuto n'ibinyomoro bifasha umuntu igihe arwaye kumwongerera amaraso ndetse bikaba byifashishwa no mu bana kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Indabyo zituma ahantu ziri hagaragara neza, kandi zigashobora kuba zaba ibiryo by'inzuki ndetse n'utundi dukoko, ni byiza gutera indabyo kuko zituma ahantu ziri haba umuhumuro mwiza.

Igihingwa cy'ibigori gifasha abaturage kubona umusaruro ndetse n'amafaranga kubera ko havamo umuceri ndetse n'ifu y'igikoma ndetse n'iy'akawunga, ni byiza kubungabunga ibigori ndetse no kubitera kuko bitanga umusaruro uhagije.

Urubuto rw'intoryi rudufasha mu gihe turi gutegura amafunguro. Ni byiza igihe wateye runo rubuto yuko ugomba kurwitaho ndetse ukanarutera imiti kandi abazihinga babona amafaranga igihe bazisaruye. Buri wese agomba kwitabira guhinga runo rubuto.

Ni byiza y'uko igihe ucuruza imyaka igashira ugomba kuragura indi kugira ngo ukomeze ugumane abakiriya bawe kandi igitunguru gifasha ifunguro guhumura kandi rikagena n'icyanga kiza.

Ni byiza kubaka uturima tw'igikoni kandi ugateraho n'imboga, kuko bigufasha kubona umusaruro kandi bikajya ahantu hatoya, igihe abaturage cyangwa abana bari mu gihe k'imirire mibi, ugomba kubakangurira uguhe utuma tw'igikoni.

Inanasi, amarongi, watermelon, amatunda ndetse na marakuja, ni imbuto zifashishwa igihe umuntu ashaka kuzirya ndetse zikaba zakorwamo n'imitobe itandukanye, igihe umuntu abicuruza bimufasha kubona amafaranga aturutse mu bakiriya.

Inzu iyo zifite igipangu, bituma mo imbere hagira umutekano uhagije, kandi ni na byiza gutera indabo inyuma y'igipangu kuko bituma kigaragara neza.

Ni byiza gukoresha tungurusumu ndetse na dodo igihe uri gutegura ifunguro ryawe kuko bigufasha kuba ryujuje ubuziranenge kandi ryujuje ibirinda indwara, ibitera imbaraga ndetse n'ibyubaka umubiri.

Ni byiza gucuruza watermelon kuko ziguha amafaranga kubera ko abantu benshi bo mu mijyi barazikunda, kandi nkanashishikariza abazicuruza ko bagomba no kuzijyana mu bice by'ibyaro kuko na bo baba bazikeneye kandi zongeramo amazi mu mubiri.

Ni byiza kwita ku gihingwa nk'ipapayi kuko bidufasha mu buzima bwa buri munsi kandi kikaba kivura n'indwara zitandukanye. Ni byiza gushishikariza abaturage gufata ipapayi neza.

Ni byiza gusobanurira abaturage ukuntu bagomba gukoresha igihe bari gutera ingemwe ndetse bakanazivomera kuko zifasha ingemwe gukura vuba kandi zimeze neza.

Ikigo cy'amashuri igihe abanyeshuri bagiye ku ishuri bagomba gufata ubumenyi butandukanye nko kwidagadura, kugisha gutera ibiti bitandukanye kuko bidufasha mubuzima bwa buri munsi nko gukurura umwuka duhumeka neza ndetse n'ibindi.

Imboga ni nziza mu buzima bwa buri munsi kuko iyo uzifata nk'ifunguro zirinda indwara kandi karoti zigufasha kugira amaso atarwaye, ni byiza kurya imbuto ndetse n'imboga zitandukanye.

Ubuhinzi bw'ikawa bwongerera ubukungu igihugu, kuko bukunze kugira amafaranga kandi ikawa ikaba ikoreshwa mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ni byiza yuko Leta yafasha abaturage, ikabakangurira gukora ubuhinzi bw'ikawa.

Abacuruzi bw'ibitunguru bibafasha kubona amafaranga ndetse n'umuzani upima ibitunguru kandi bifasha kuba wateka ibiryo ndetse n'ibindi bitandukanye, bikagira impumuro nziza. Ni ngombwa gukoresha igitunguru igihe uri gutegura ifunguro ryawe.

Buri muhinzi wese agomba gusura imyaka ye kugira ngo amenye yuko nta kibazo ifite n'indwara zitandukanye cyangwa imvura ikaba yagwa ikayangiza. Ni byiza gukangurira abahinzi gusura imyaka yabo.

Indabyo ni nziza kuko zigira umuhumuro mwiza kandi zigatuma n'igipangu kigaragara neza, ni byiza ko buri wese yazaza atera indabyo imbere y'igipangu cye ndetse no ku mashuri.

Urubuto rw'umuneke ni urubuto rwiza kuko rufasha umuntu kandi akunda kurufata nyuma yo gufata ifunguro, kandi bigatuma wumva mu mubiri wishimye, ni byiza yuko buri wese yazajya afata runo rubuto kuko ni ingenzi kandi runongera isukari mu mubiri.

Gukora ubuhinzi busasiye bifasha imyaka gukura neza ndetse bikayirinda n'indwara, kandi imyaka ntabwo yumagara, ni byiza gukangurira buri muhinzi wese gukoresha buno buryo bwo gusasa.

Gasasira imyaka biyifasha gukora neza, ndetse bikanaguha umusaruro mu gihe gito kuko iyo wasasiye imyaka, ntabwo wirirwa uhinga buri gihe ndetse unabagara. Ni byiza gukangurira abaturage, gukoresha buno buryo bwo gusasira.

Ni byiza kwita ku buhinzi kuko bidufasha kubona umusaruro tukihaza mu biribwa ndetse bikaduha n'amafaranga twifashisha mu buzima bwa buri munsi. Ni ngombwa yuko umuntu ukora umwuga w'ubuhinzi agomba gukoresha butandukanye ndetse n'uburyo bugezweho.

Imiteja ndetse na beterave bigufasha gutegura amafunguro neza kandi beterave zifasha umuntu kwiyongera kw'amaraso, igihe ntayo afite kandi bigatuma n'ibiryo byiza. Ni ngombwa igihe uri gutegura ifunguro y'uko ukoresha beterave n'imitja ndetse na puwavuro.

Ni byiza kuvomera imyaka kuko biyifasha gukura imeze neza ndetse no gutanga umusaruro, igihe imvura yabaye nkeya, ni byiza kwifashisha kuvomera kuko bifasha imyaka gukomeza igakura.

Ni byiza kuvomera imyaka yawe mu gihe cy'izuba kuko biyirenda kuma, cyane cyane ibinyomo bigira akamaro ku buzima bwa buri munsi kuko byongera amaraso, ni byiza kubyitaho ubivomera ndetse unareba yuko bitarwaye.

Ubuhinzi bugira akamaro ku baturage benshi, kuko iyo uri guhinga nk'ibigori bigufasha kubona umusaruro nko gukoramo umuceri, kawunga ndetse n'ifu y'igikoma, ni byiza gukangurira abaturage kwita ku buhinzi kuko busigaye bufite akamaro ndetse bunatanga amafaranga ahagije.

Ubwanikiro budufasha kwanika imyaka neza kuko iyo wanitse hasi akenshi ijyamo imyanda, ariko ubwanikiro iyo wanitse ikawa bizifasha kuma vuba ndetse no gutanga umusaruro uhagije.

Ingo zitandukanye zigaragara yuko ari ingo zo mu giturage, kuko inyinshi zisakaje amategura ndetse zituye n'ahantu hatandukanye, amatsina, ibiti ndetse n'ibyatsi ku musozi, biragaragara yuko ari byiza amatungo azajya abona ubwatsi buhagije.

Ni byiza kubungabunga ibidukikije ndetse no kugira ubusitani kandi ukabukorera wirinda kuhatwika ndetse no kuhakupakupa cyane kuko iyo hari ibyatsi hagaragara neza.

Ubuhinzi bufite akamaro kuko bifasha ababukora kwihaza mu biribwa, kandi bigatuma bava no mu bukene, ni byiza guhinga umuceri mu gishanga kuko niho hakunze kugaragara amazi, kandi umuceri usaba amazi menshi cyane.

Ibidukikije bituma hagaragara neza kandi bigakurura na ba mukerarugendo. Ni byiza kubungabunga ibidukikije kuko biduha umwuka mwiza duhumeka ndetse bigakurura n'imvura.

Umurima utariho ubuhinzi ariko bigaragara y'uko ukenewe guhingwa, amazu abiri ndetse n'umurima bigaragara y'uko ari igishango, ni ngombwa kubahiriza kubungabunga imirima.

Ni byiza kubungabunga ibishanga kuko na byo bifite akamaro, twirinda gutamo imyanda itabora ndetse na pulastike, kandi tugatema n'ibihuru bihari kuko ari indiri y'imibu.

Ni byiza gutera ku musozi ibiti bitandukanye kuko birinda isuri kandi bigafasha n'abantu guhumeka umwuka mwiza ndetse no gukurura imvura, ni byiza gukangurira abaturage gutera ibiti ku misozi ihanamye ndetse n'itagize ikintu iteyeho.

Ni byiza kubungabunga amatungo magufiya kuko atanga umusaruro mu gihe gito, nk'ingurube iyo uyoroye iguha umusaruro mu gihe gitoya kandi n'amafaranga akiyongera, ukaniteza imbere muri rusange ndetse n'igihugu.

Ubworozi bw'moko ni bwiza cyane kuko bugufasha kubona umusaruro utandukanye nk'amagi, inyama ndetse n'amafaranga, ni ngombwa yuko buri muturage yakorora buno bworozi kuko kubugura ntibuhenda.

Ni byiza yuko leta iha abatishoboye gira inka mu Munyarwanda kandi n'abayobozi bagomba gusura aho amatungo bayahaye kugira ngo barebe niba bayafata neza kandi banayitaho ku buryo buhagije.

Amatungo y'inka ni amatungo yororerwa mu rugo kandi agatanga umusaruro haba ku ifumbire, amata ndetse no kuyigurisha ukabona amafaranga. Ni byiza ko igihe worora ushaka veterineri uzaza uza kureba uko amatungo yawe ameze.

Mu gihe abaturage batishoboye, ni byiza ko leta ishyiraho gahunda yo kubafasha kugira ngo biteze imbere. Amatungo magufiya yororoka vuba kandi agafasha buri muturage, kwiteza imbere mu buryo bw'ubukungu.

Ni byiza korora amatungo magufiya kuko bigufasha kubona umusaruro mu gihe gito kandi zikanororoka cyane, ni byiza gukangurira abaturage kurora amatungo y'ihene kuko agufasha kubona amafaranga ndetse n'ibiribwa nk'inyama.

Amatungo adufasha kwiteza imbere n'igihe wayororeye mu rugo bituma ubona ifumbire. Ni byiza gukangurira abaturage bose kororera mu biraro kuko birinda amatungo kurwaragurika ndetse no kwandura indwara zo ku gasozi.

Itungo ry'ingurube ugomba kuryitaho kuko ritanga umusaruro mu gihe gitoya kandi rikaba rinabwagura izindi ngurube nyinshi. Ni byiza y'uko ugomba kwiga no ku isuku yayo kuko nayo igomba kwitabwaho.

Ingurube zidufasha kubona ifumbire, ndetse zikaduha n'inyama zo kurya, kandi ingurube zitanga umusaruro mu buryo bwihuse, kuko zibwagura vuba cyane, ni byiza kororera ingurube mu kiraro no kuziha imiti.

Igihe woroye inka ugomba kuyitaho uyishakira imiti kandi ukanayiha ubwatsi buhagije, kandi ukirinda no kuyizirika cyane kandi ukazaza unayirakura ikarambura amaguru kuko bifasha mu gukura kwayo

Igihe akanyana kakiri gatoya ni byiza kugashyira ahantu hafite isuku kandi hadakonje cyane, kuko kaba kataragira ubudahangarwa bwo kujya ahantu hose, nko ku zuba ryinshi ndetse no mu mvura nyinshi cyane, ni byiza gukangurira aborozi kumenya ndetse no gusobanukirwa uko bagomba kwita ku nyana ntoya.

Ni ngombwa kwita ku bworozi bw'amatungo magufiya kuko asaba ubwatsi bukeya kandi akaba atanga ifumbire ndetse n'umusaruro mu gihe gito, ni byiza korora aya matungo.

Ni byiza kororera ahantu hasukuye kandi hizewe amatungo kuko biyarinda kurwaragurika kandi bikayafasha mu gukura neza, buri wese agomba kwita ku bworozi bwe.

Ubuhinzi ndetse n'ubworozi bufasha umuturage ubukora kuba yakiteza imbere, haba mu bukungu cyangwa amafaranga ndetse bigateza imbere n'igihugu muri rusange kuko kigira abaturage bakize.

Ubworozi bufite akamaro mu buzima bwa buri munsi. Kuko bugufasha kubona amafaranga ndetse ukaniteza imbere. Koko ni byiza korora bwa kizungu kuko ni bwo butanga umusaruro kandi mu gihe gito.

Korora inkoko bigira akamaro kuko zigufasha kubona inyama, kandi zikaba ziguha n'umusaruro no kubona amagi uha abana, kandi afite akamaro karinda indwara ndetse kanongera umubiri ubudahangarwa.

Ni byiza korora amatungo magufiya nk'ingurube kuko atanga umusaruro mu gihe gito kandi akaba anororoka vuba, kandi ugomba kuyashakira veterineri uzajya usuzuma uko ameza.

Ingurube ni inyamaswa yororerwa mu rugo, bigaragare yuko iri kurya ibiryo byayo na sondori, kuko biragaragara yuko iri kunywa sondori.

Ni byiza koroza abaturage bafite ubushobozi bukeya, amatungo kugira ngo biteze imbere, kandi babone n'umusaruro n'ifumbire, bahinge babone amafaranga, bahe abana bajye ku ishuri.

Ni byiza korora inka za kijyambere kuko zigira umukamo mwinshi kandi zikanororoka neza, bakaguha n'amafaranga menshi. Ni byiza kubungabunga amatungo uyororera mu rugo kandi ukanayaha amazi menshi ahagije.

Leta igomba guha abaturage ubworozi bw'ingurube cyane cyane abadafite ubushobozi buhagije, kuko bibafasha kwikura mu bukene. Ni byiza yuko Leta iha umuturage ubufasha igihe adashoboye.

Ni byiza kororera mu kiraro kuko bituma inka cyangwa andi matungo bitandura indwara zo ku gasozi, kandi zikirinda no guhumanya amazi, buri muturage wese worora agomba kororera mu kiraro.

Buri mubyeyi wese agomba gushishikariza umwana akiri muto na we korora amatungo kuko bimufasha mu gihe yabaye mukuru, kwihangira imirimo ndetse no kubona amafaranga akiri mutoya. Ni byiza yuko buri mwana wese yita no ku matungo y'iwabo, ayagaburira ndetse anayarinda kuba yarwana hagati yayo.

Imboga zigira akamaro ku buzima bw'umuntu kuko bimufasha kugira amaso abona neza kandi bikanarinda n'indwara zitandukanye. Ni byiza yuko buri muntu wese igihe ari gutegura amafunguro ye yifashisha...

Igihe uri guhinga ugomba guhinga n'igihingwa cy'inyanya kuko kigira umumaro mu gihe uri gutegura amafunguro yawe atandukanye, bifasha amafunguro gusa neza ndetse urunyanya ruvamo n'isosi nziza cyane. Ni byiza kurwifashisha igihe uri guteka kandi n'igihe waruhinze ugomba kurwitaho urutera imiti.

Ni byiza kwita ku gihingwa cy'imyumbati kuko iyo yeze ushobora gukuramo imyumbati yo kurya ndetse n'iy'ubugari kandi ibibabi byiza by'isombe bishobora kuvamo imboga zifite intungamubiri kandi zikaba zirinda n'indwara.

Ubuhinzi bugira akamaro, haba k'ubukora ndetse n'igihugu kuri rusange kuko iyo yejeje umusaruro mwinshi awujyana ku masoko, bigatuma n'abandi babonaho kandi nawe akabona amafaranga avuye ku bawuguze. Ni byiza gukangurira abahinzi gukoresha uburyo bwa kijyambere.

Si byiza yuko urunda ibigori ahantu hacucitse kuko bituma byabora, kandi bifite akamaro mu buzima bwa buri munsi, ni ngombwa kubyanika ahantu hagera izuba kandi hasakaye.

Ni byiza kwanika umusaruro w'ikawa cyangwa w'ubushaza kugira ngo byume kuko bigufasha kubirinda kuburara kandi niyo byumye bimara igihe kinini.

Imbuto igufasha igihe umwana akiri mutoya ndetse bigatuma ubona n'amafaranga ahagije. Ni byiza gukangurira abaturage guhinga imbuto zitandukanye kuko ni ingenzi mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi ni bwiza kuko igihe wateye urubingo bifasha amatungo kubona icyo arya kandi bikagufasha no kubona ifumbire, ni byiza yuko buri muhinzi wese yazaza atera urubingo.

Ni ngombwa kororera amatungo mu rugo kuko birinda gukwirakwiza imyanda ku gasozi ndetse no kwangiza ibidukikije kandi igihe uri mu rugo ni byiza kuyigaburira mu rupangu.

Urupango ndetse umuntu bigaragara yuko ari gusuzuma inka ikibazo ifite ndetse na veterineri uhagaze, biragaragara yuko iyi nka yagize ikibazo bakaba bahamagaje veterineri, akaza kureba ikibazo ifite.

Igihe itungo ryahuye n'ikibazo rigakomereka cyangwa hakagira irindi ririruma, ni byiza guhamagara umuganga cyangwa veterineri uzishinzwe, kuko avura neza kandi aba yarabyize. Ni byiza kwirinda ubuvuzi bwa magendu.

Itungo ry'inka ritanga umusaruro mu gihe urigurishije riguha amafaranga kandi n'igihe yabyaye biguha amata, ni byiza kuribungabunga urishakira imiti kandi n'igihe ryarwaye ukarivuza.

Igihe amatungo yarwaye, ni byiza kuyazanira uyavura kandi bigatuma adapfa cyangwa ngo yanduze ayandi. Ni byiza gukangurira buri mworozi wese kuzaza azana usuzuma amatungo igihe aruzi afite ikibazo.

Ubworozi bw'amatungo y'inka, bigaragara y'uko hari imwe muri yo yarwaye bakaba abazishinzwe bari kuyitaho kugira ngo bayivure, bivuze yuko buri wese agomba kwita ku matungo ye ndetse n'ibindi bintu muri rusange.

Inka abagabo babiri umwe biragaragara yuko ari kwagaza inka, undi biragaragara yuko ari kugerageza gukama inka. Amata avuye mu nka afasha abana cyane cyane bakiri batoya mu mikurire yabo.

Igihe woroye inka, ni byiza yuko uyiha amazi ndetse arimo n'umunyu, kuko biyifasha gukura ikanabyibuha ndetse niba inakamwa ikabona umukamo mwiza, rero ni ngombwa yuko uzana na veterineri, kugira ngo arebe uko iha.

Abantu babiri bari kubyaza inka, biragaragara yuko ishatse kubyara iri ku gasozi bakaba bifashishije umuveterineri kugira ngo abafashe, aba bantu biragaragara yuko bari bari ahantu ku musozi.

Inyoni iri mu bimwe mu nyamaswa zigenda ziguruka kandi igakurura ba mukerarugendo, kuko ziba zifite amabara menshi kandi izi nyoni zikunze kuba muri parike.

Ni byiza kubungabunga inyoni kuko zikurura bamukerarugendo kandi zikaba zinagaragara neza. Kandi inyamaswa y'inyoni ikunze kuba muri parike, ikaba iguruka.

Ni byiza kubungabunga ibidukikije kuko bikurura ba mukerarugendo, kandi inyoni ni inyamaswa zifite amabara meza kandi tugomba kuzibungabunga kubera ko nazo ziri mu bakurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa y'inguge ni inyamaswa iba mu ishyamba, ikunze kugira ubwoya bwinshi bw'umukara ndetse n'umweru, ndetse ikaba ijya gusa n'abantu; kuko akenshi bakunze kuvuga y'uko iyi nyamaswa ifitanye isano rya hafi n'ikiremwamuntu.

Inyoni ni inyamaswa ifite amababa ikaba ikunda kugenda iguruka, ni byiza kubungabunga ibiguruka byose muri rusange, kuko bikurura ba mukerarugendo kandi ni bimwe mu binyabuzima.

Inyoni ndetse n'ibiti ndetse n'ururabyo rwiza, bino birerekana imiterere myiza y'ikinyabuzima inyoni ndetse n'ibiti muri rusange, bino byerekane environment umuntu aba abayemo.

Hano haragaragara inyoni iri ku giti, bishatse kuvuga yuko tugomba kubungabunga ibidukikije ndetse n'ibinyabuzima muri rusange kuko bidufasha kubona umwuka duhumeka ndetse tukabaho mu buzima bwiza.

Ni byiza kubungabunga inyamaswa z'impala kuko ziri muri zimwe zikurura ba mukerarugendo, bigatuma n'igihugu kibona amafaranga avuye ku baje kuzisura kandi n'abaturage begereye parike babona amafaranga.

Ubwoko bw'izi nyoni bukunze kuba muri parike kandi zikaba zifite n'amabara meza anogeye ijisho, ni byiza kuzibungabunga kuko zikurura ba mukerarugendo bigatuma byinjiriza igihugu amafaranga.

Inyoni zigira akamaro mu buzima bwa buri munsi kuko zigufasha gukanguka rimwe na rimwe mu gitondo kandi zikaba ziri muri bimwe mu binyabuzima bifite uburanga bwiza, ni byiza yuko tugomba kubungabunga ibidukikije.

Ni byiza kwita ku nyamaswa kubera ko nazo zifite ubuzima. Buri wese agomba kuba, ijisho rya mugenzi we, yirinda kandi anazirinda barushimusi, kuko zizana amafaranga avuye mu bakerarugendo.

Ni byiza kubungabunga inyamaswa zo mu ishyamba kuko zifite akamaro ku gihugu ndetse n'umuturage kuri rusange kuko bituma igihugu kigaragara neza kandi bigakurura ba mukerarugendo.

Ni byiza kwita ku inyamaswa zose, kuko zikurura ba mukerarugendo, kandi umuntu akazirinda na ba rushimusi. Kandi abana bagomba kwirinda kwegera inyamaswa, kuko izi ziba ari inyamaswa z'inkazi.

Inyamaswa iyo ziri muri parike zikurura abakerarugendo baje kuzireba, bigatuma abegereye aho hantu babona amafaranga kuko baba barakoze ibikorwaremezo, ndetse n'abihangiye imirimo bagatera imbere.

Inyamaswa ndetse n'ibidukikije bikurura ba mukerarugendo, bigatuma igihugu kibona amafaranga avuye kuri abo baje gusura inyamaswa. Ni byiza kubungabunga inyamaswa no kurinda ba rushimusi baza kuzishimuta.

Inyamaswa zikurura ba mukerarugendo. Ni byiza rero kuzirinda ba rushimusi, ndetse n'abandi batwika nk'amashyamba kubera zabura aho ziba. Ni na byiza yuko leta yashyiraho ingamba zo kwigisha abaturage akamaro k'inyamaswa.

Igisiga gikunze kuba muri pariki ndetse n'ahandi hose. Ni byiza kubungabunga inyoni, kuko zidufasha gukurura ba mukerarugendo, kandi zikaba zinagaragara neza. Zifite amabara meza kandi atandukanye.

Ibiguruka habamo inyoni. Inyoni zikunze guhagarara ahantu ku biti, ndetse zikanatungwa n'udusimba dutoya, kandi zigakunda kurara ahantu mu byari, mu biti. Akamaro k'inyoni: inyoni ni nziza kuko ifasha utunyamaswa tw'utunyabuzima, kuba zaribwa.